Hari amoko menshi cyane atandukanye y'ifumbire, yifashishwa bitewe n'ubwoko bw'ubutaka umuhinzi agiye guhingaho, niyo mpamvu Abanyarwanda bashishikarizwa kugana ibigo bishinzwe gutanga izi fumbire ndetse n'inyongeramusaruro zitandukanye.

Ifumbire nziza cyane iboze abaturage barimo kugenda batindura, iyo fumbire ikaba yarakozwe hifashishijwe gufata ibyatsi bakabizana bakabirunda ahantu hamwe maze bikabora.

Inyubako bigaragara ko ari isoko, imbere yayo haparitse imodoka. Iyo modoka na yo irimo mu muhanda rwagati ndetse hari inyubako igaragaramo ibicuruzwa bikomoka cyangwa se bikorana n'amatungo ndetse n'ibihingwa.

Akayetajeri karunzemo imiti itandukanye ndetse n'imirama yifashishwa mu buhinzi bugezweho bwa kijyambere. Harimo n'amapombo yifashishwa mu gutera imiti ibihingwa bigiye bitandukanye.

Umuntu w'umugabo afashe ifumbire y'imborera mu ntoki bigaragara ko ari ifumbire yaboze ku rwego rwiza ku buryo harimo n'udukoko tugiye dutandukanye turimo iminyorogoto.

Umukobwa witejeje imbere binyuze mu buhinzi bw'inyanya, akaba ahinga inyanya ku buso bunini ndetse akaba arimo gutera umuti izi nyanya ze, mu by'ukuri uyu mukobwa ni rwiyemezamirimo utangaje.

Igiti kinini cy'indimu giteye ahantu mu gihuru. Kikaba cyegeranye n'insina zifite amakoma manini cyane ndetse atoshye. Uko bigaragara aha hantu ntihaheruka guhingwa. Gusa ba nyiraho barikubitekerezaho.

Ikawa rihinze murima risasiye neza, ariko rikiri ritoya ritarakura ngo ritangire kwera, n'ikawa rihinze ku buso bunini cyane, ku buryo nyiraryo aryitezemo umusaruro ushimishije.

Agacupa karekare kanini bigaragara ko karimo umuti ndetse umuti urimo ukaba wifashishwa mu kuvura amatungo agiye atandukanye, arimo inka, ingurube ndetse n'ihene.

Umuti uri mu icupa ukaba upfundikiye ndetse iryo cupa rikaba rizengurukijweho igipapuro cyanditseho amagambo agaragaza ibyo uwo muti uvura, ukaba wegeranye n'ikarito na ryo rifite ibara ry'ubururu.

Icupa rinini ry'umweru, rizengurukijweho akarongo gafite amabara atatu, harimo ubururu bwijimye ndetse n'ubururu busanzwe n'irindi bara ry'umuhondo.

Icupa ririmo umuti. Uwo muti ukaba wifashishwa mu kuvura amatungo agiye atandukanye, arimo: inka, ihene ingurube, ndetse n'ayandi ashobora kuwukoresha.

Umugabo bigaragara y'uko abyibushye ndetse afite inda nini cyane, ari mu bigori bye, ibi bigori bikaba bitangiye kwera, akaba ari hafi yo kubisarura.

Umugabo wambaye bote, akaba yambaye n'ingofero ifite amabara atatu, ariyo umuhondo, umukara, n'umweru, arimo gutegura umurima wo guhingamo ibihingwa bitandukanye.

Umuntu bigaragara y'uko ari umugore, ari guhinga; aho ari guhinga, inyuma ye hari ibigori byeze ndetse bikeneye gusarurwa, imbere ye hari igiti cy' avoka kikiri gito cyane, ariko gifite uruyange, ndetse n'imiteja myinshi, bigaragara ko ari icya kijyambere.

Abagabo babiri bambaye amasarubti afite amabara atandukanye, uwambaye icy'ubururu ndetse n'uwambaye icya kaki, bari gufata imifuka bayipanga ku murongo ndetse bigaragara ko ari imifuka y'imiceri.

Abagabo babiri barimo guterura umufuka ariko bisa nkaho wabananiye. Bari kugira ngo bagende bawumanura hasi, maze abaturage nibaza gufata ifumbire, babone uko bayibona mu buryo bworoshye.

Abantu benshi bakunze kwibeshya ko umuceri ukorwa mu nganda, gusa si ko biri ahubwo umuceri urahingwa, ugatunganywa, ukajyanwa mu baturage bakawugura bakawurya.

Umurima uhinzemo ibintu bitandukanye, hakaba harimo ibiti byazamutseho uruyuzi rw'igihaza cyitwa igishashoti ndetse iki kikaba ari igihaza kibiha cyane.

Inyubako y'umuturage ikaba ari inyubako ihomeshejwe umucanga ndetse na sima. Ikaba isakajwe amategura, inyuma yayo hakaba hari ibihuru byinshi cyane.

Ibiti binini cyane byakuze ndetse bigaragara nk'ibishaje, bikaba ari ibiti byagakwiye gusarurwa bigakorwamo imbaho, inzugi, ameza n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umurima urimo ibintu by'akajagari bitandukanye, aho urimo ibiti, ibyatsi, ibindi bintu byinshi cyane bidafite umumaro, ukaba ukeneye gushyirwa ku murongo.

Igiti cyatemwe kikaba cyaragwiriye ibindi byinshi, ariko kubera ko kimaze iminsi gitemwe cyamaze kuma umuntu yacyasa akagicana inkwi zikaka zikagurumana.

Ibiti bitandukanye bigenda bitangwa ku baturage bikavangwa n'imyaka kugira ngo birinde isuri. Si ibyo gusa hari n'ibiterwa kugira ngo bitange imbuto zo kuribwa, urugero nk'amapera na voka.

Ibiti byinshi cyane biri mu ishyamba iryo shyamba rikaba rigizwe n'ibiti bya kimeza gusa, bikaba birunze ahantu hamwe ndetse hari ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Pikinyeri ibasha guhumbika ibiti bitandukanye, byifashishwa mu gutera mu myaka ndetse n'ahandi hantu hatandukanye ku mpande z'umurima kugira ngo birwanye isuri, ibindi bivemo ubwatsi bw'amatungo.

Kokombure ni ubwoko bw'ibihingwa abantu badakunze guhinga, ibi bihingwa bikaba bikunze kwifashishwa igihe abantu barimo gutegura salade ndetse by'umwihariko bikunze kuboneka mu mahoteli.

Ubusitani bwiza cyane bufite indabo ndetse bufite n'urucaca rwiza. Ni ubusitani buteye ahantu ubona ko bwubakiye neza, gusa ntabwo barabukorera ngo baconge izo ndabo zihari.

Umugore avuye mu mubande amaze gusarura urusenda ndetse akaba ari kuzamuka agiye mu rugo, arwirengeye mu ibasi isa ibara ry'icyatsi.

Amatunda y'ibiti ari ku isoko yegeranye n'amatunda y'imigozi ndetse n'amaronji. Hakaba hari n'indimu n'ibindi bikarito birimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye bitegereje abaguzi.

Umugabo arimo kwitegereza umurima we uhinzemo imboga za mashu, izo mboga zatangiye kubumba bigaragara ko mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa zizaba zitangiye gusarurwa zikajyanwa ku isoko.

Ibiganza by'umuntu bifashe ibitunguru bitanu mu ntoki, ibyo bitunguru bikaba biranduwe mu murima kugira ngo barebe ko byeze, uko bigaragara basanze byeze bagiye guhita babikura byose babijyane mu isoko.

Ubuhinzi bw'imbuto ni ubuhinzi bushobora guteza imbere nyirabwo ndetse bukaba bwabasha kumufasha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye nko kwihaza mu mirire.

Ubuhinzi bw'urusenda, ni ubuhinzi bushobora guteza imbere umuntu kubera ko ubu ngubu u Rwanda rufite isoko rugemuraraho urusenda hanze y'igihugu.

Igiti k'isombe giteye imbere ahantu mu nzu ndetse bigaragara ko ari mu rugo rw'umuturage, urwo rugo rufite igikuta kinini cyane giteye sima.

Umugabo arimo kuvomera imboga ziri mu kabande ndetse zikaba zihinzemo n'ibigori bikeya, ubu buryo arimo gukoresha bwo kuvomera ni uburyo bugezweho aho bafata amazi bakayazamura mu mupira, maze bakatungereza mu kirere.

Abantu babiri, umwe ni umugore undi ni umugabo, barimo kuvomera ibitunguru bihinze mu kabande, ndetse iruhande rwaho hari urutoki, urwo rutoki rukaba rutoshye, ndetse bigaragara y'uko ari ahantu heza cyane hafite ubutaka bwera.

Umuntu w'umugabo arimo kuvomerera imbuto mu mubande akoresheje umupira yatunganyije neza cyane ku buryo amazi atungereza nk'imvura maze bigatuma igihingwa gikomeza gukura nta nkomyi.

Umusozi munini cyane ufite n'ahantu h'ibishanga hahingwamo imiceri ndetse n'izindi mbuto zitandukanye, ni umusozi wegereye ahantu hari amashyamba ndetse hakaba hari n'inzu z'abaturage ziba zitunguka hakurya ku wundi musozi utuweho.

Igiturage gikomeye cyane kirimo inyubako z'abaturage hari izisakaje amabati, izisakaje amategura, izihomesheje ibyondo ndetse n'izindi zihomesheje imicanga na sima.

Inka nziza cyane bigaragarako ari inka itanga umukamo ushimishije ikaba iri mu kiraro cyayo, ndetse ikaba irimo kugenda igana ahari ubwatsi kugira ngo ibashe kurya.

Inka ziri mu rupango zikaba zaje guterwa inshinge ndetse izindi zikaba zaje guterwa intanga. Bigaragara yuko ari urupango rw'akagari, aho inka zose zihurizwa kugira ngo ba veterineri bazikingire.

Ubushyo bw'inka bwahurijwe ahantu hamwe, bigaragara ko ari ku isoko, cyangwa se akaba ari mu rwuri, hari abaturage benshi bari imbere y'inyubako, bigaragara ko ari ba nyir'izo nka.

Umuntu bigaragara ko ari umwana ukiri mutoya aragiye ihene, izo hene zikaba ziri iruhande rw'ikiraro cyazo akaba arimo kugenda aziha ubwatsi ariko akaba ari ubwatsi bw'amababi y'avoka.

Abantu baje gusura inka z'umuturage ngo barebe uburyo azororamo n'uburyo azitaho, ni inka nziza cyane z'inzungu zifite uturiro twiza, yazigaburiye ibisigati ndetse n'ibigorigori.

Ingurube iragaramye ibibwana byayo birimo kuyonka bigaragara ko yabwaduye byinshi cyane, izi ni ingurube z'ubwoko bwiza ushobora gutunga cyangwa korora mu gihe gitoya ugakirigita ifaranga.

Umubyeyi w'umugore ahagaze inyuma y'inzu ye, akaba ari kugaburira ihene ye, uko bigaragara ni umukene kuko aba mu nzu itubatse neza ndetse ihomesheje ibyondo.

Inkoko nziza cyane y'isake, ikaba iri mu nzira iri kwigendera, gusa ni hafi y'urugo bigaragara ko ariho kwa nyirayo, urwo rugo rukaba rwubakishije ibyondo ndetse n'ibiti.

Umuryango w'umugabo n'umugore n'abana bafite ihene nziza cyane. Izo hene zikaba ari imishishe ndetse zifite amabara atandukanye ndetse zikaba zirimo inkuru n'intoya.

Ingurube irimo kumanuka hasi bikaba bigaragara ko ari ingurube yo mu bwoko bwa kizungu ndetse ikaba ari ingurube nziza cyane, ushobora korora mu gihe gitoya ukabona amafaranga.

Inyubako y'umuturage ifite igikoni ndetse hakaba hari n'ikiraro cy'inka, inka yo yavuyemo yibereye hanze, ariko barimo kugenda bashaka kuyisubiza mu kiraro cyayo.

Igihingwa cy'ibirayi ni igihingwa gikunze kwitabwaho n'abantu bo mu majyaruguru ndetse kikaba ari igihingwa cyera cyane muri aka gace, hakaba hari aho bahinga ibi birayi buso bunini cyane maze bakazabigurisha bakiteza imbere.

Umubande ucamo umugezi w'amazi ariko akaba yarabaye makeya bitewe n'uko turi mu gihe cy'izuba, hari amateke ari kugaragaza ibitika, ahinze mu murima wegereye uyu mugezi.

Umugabo ushinzwe kuvura amatungo arimo kuvura inka. Hari abandi bagabo babiri bamufashije kuyifata kugira ngo abone uko ayivura idakubagana.

Kuva nabaho nibwo bwa mbere mbonye umugabo ufite imbaraga, umugabo wifashe inka akayiha umuti, uyu mugabo ntasanzwe ashobora kuba ari igikurankota urebye nabi yakuritura.

Inka nyinshi cyane ziri mu rwuri, uko bigaragara harimo n'abashumba bazo abenshi ni abana batoya, harimo abahungu n'abakobwa gusa harimo n'abagabo bakuru baje kuzisura.

Ikinyugunyugu cy'amabara meza y'ubururu ndetse n'umukara n'igitare kirimo kiraguruka kikaba kigiye kugwa hasi. Iki kinyugunyugu kiraguruka kitazi iyo kigiye kuko kigwa aho kibonye.

Agacurama ni akanyamaswa gakunze kubonwa n'abantu bakeya kuko nta na rimwe wapfa kukabona ari ku manywa, ahubwo gakunze kwigendera nijoro kandi karaguruka ariko konsa abana bako.

Inkende yibereye mu giti ikaba yazamuye ibiganza byayo ndetse ikaba iminwa yayibumbabumbye, iyi nkende isa nk'aho hari ikintu iri kureba hasi iri kugenda ikinisha.

Ingagi ni inyamaswa itangaje cyane kuko ifite imiterere imeze nk'iy'umuntu, uretse ko itagira ubwenge nk'ubw'umuntu. Ni inyamaswa ikunda abana bayo cyane.